Kuhira imyaka cyane cyane mu gihe cy'impeshyi, ni ngombwa ko igihe umuntu arangije kuyuhira atera umuti kugira ngo ibimera bizamuke neza ndetse n'udukoko twici iyo myaka tukavaho.

Mu gutera imiti cyane cyane ibihingwa birimo n'umuceri bifasha cyane kwirinda udukoko twibasira ibi bimera kuko ijya ku bibabi maze umusaruro ukagabanuka cyane.

Abakora ibikorwa by'uburobyi mu biyaga bigiye bitandukanye, bavuga y'uko bibafasha cyane mu kwihaza mu biribwa ndetse bakanabasha kurihira abana babo amashuri.

Mu kuroba amafi ni ngombwa y'uko bategereza igihe cyagenwe kugira ngo basubiremo, kuko igihe baroba buri mwanya amafi akiri matoya nayo agenderamo kandi bikaba atari byiza.

Abagabo batuye mu bice by'Uburengerazuba bw'u Rwanda bigaragara ko igihe bishoye mu Kivu batabiherewe uburenganzira amafi akiri matoya yangirika kandi ibyo bikagabanya umusaruro wa nyawo.

Hari abahisemo gukora ubworozi bw'amafi buciriritse, aho bafata amashashi bagashyiramo amazi ubundi bakajya bahangana no kugaburira amafi yabo kugira ngo akure neza.

Ubworozi bw'amafi bukwiye gukorwa mu murongo, aho abantu bagomba kwitondera kuroba amafi akiri mato, kuko bituma umusaruro wayo udindira.

Umusaruro uturuka ku mafi ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'abantu bitewe n'uko amafi akungahaye kuri vitamine zituma umubiri w'umuntu ugira imbaraga ndetse ukabasha no guhangana n'indwara.

Ubworozi bw'amafi bumaze gutera imbere cyane cyane mu turere tubarizwa mu Burasirazuba bw'u Rwanda nka Bugesera, Ngoma ndetse na Nyagatare kuko abantu bakanguriwe akamaro ko korora amafi bituma babijyamo cyane.

Ubworozi bw'amafi buteye imbere, igihe bukozwe neza, umusaruro uriyongera kandi umuntu wese ugerageje guhohotera cyangwa se kunyuranya n'amategeko y'uburobyi na we akwiye guhanwa, bitewe n'uko igihe amafi arobwe akiri mato, bidindiza umusaruro wayo.

Gahunda y'umusaruro w'icyayi mu Turere tw'Uburengerazuba bw'u Rwanda nka Nyamasheke biravugwa yuko abadamu ari bo bakomeje kugaragaza umuhate munini mu kwitabira ibi bikorwa kuko mu gihe cyo gusarura baba ari benshi cyane.

Mu gusarura icyayi ni ngombwa ko ababikora baba babifitiyemo uburambe buhambaye kuko igihe bikozwe nabi icyayi gisoromwa nabi kandi ntigishibuke.

Mu buryo bwo gutunganya icyayi hibandwa cyane cyane ku kuba ubikora aba yarabyize ndetse yambaye impuzankano yabugenewe, mu rwego rwo kugira ngo hatabamo ibibazo bitandukanye.

Kawa y'u Rwanda ikomeje kuba ikitegererezo mu bindi Bihugu bitandukanye kuko ikungahaye ku buryohe buhebuje, aho abanyamahanga bayikunda cyane kurusha iz'iwabo.

Ubuhinzi bw'icyayi bukomeje gutanga ikizere cy'uko ababyeyi babikoramo bazajya babona amafaranga bishyurira abanyeshuri babo, kubera ko nabwo bukomeje kugenda butera imbere.

Mu gihe cyo gusarura umuceri, ni ngombwa ko haza abantu babihuguriwe kugira ngo bawusarure neza, hirindwa ko watonokera hasi, ibyo bigatuma wapfa ubusa.

Igihingwa cya kawa ni kimwe mu bikomeje kuba ikitegererezo mu ruhando mpuzamahanga cyane cyane ku Mugabane wa Afurika bitewe n'uko iki gihingwa mu Rwanda kihera kandi kigatanga umusaruro mwiza uhagije.

Ikawa y'u Rwanda ikomeje kuba ubukombe, bitewe n'uko iyera mu majyaruguru, ikomeje kugira umwihariko mu buryohe kuko abanyamahanga bayikunda by'umwihariko.

uUusaruro w'ubuhinzi bw'umuceri bukomeje kuzamura indi ntera bitewe n'uko abawuhinga, bahuguwe neza ku buryo bazi icyo basabwa kugira ngo uwo musaruro wiyongere.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibimera byoherezwa mu mahanga birimo ikawa n'icyayi, barishimira uburyo babumbiwe hamwe mu makoperative kugira ngo ibikorwa byabo bibashe kubagirira umumaro wisumbuyeho.

Abantu bakora ubuhinzi bw'ikawa, bavuga yuko babanza gutoranyamo, ibyitwa ibitumbwe kugira ngo bitazangiza umusaruro wa kawa.

Icyayi gikomeje guca agahigo mu ruhando mpuzamahanga aho gikomeje kwinjiza amadovize atari make ugereranyije n'ibindi byayi bituruka mu bihugu bitandukanye bitarimo u Rwanda.

Guhinga icyayi ntabwo bigifitiye akamaro kanini Igihugu ahubwo n'abahinzi bacyo cyangwa se abagisarura ingaruka nziza zibageraho bitewe n'uburyo icyayi cy'u Rwanda gikomeje guca impaka mu ruhando mpuzamahanga.

Ikawa y'u Rwanda iyo imaze gusarurwa iratunganywa ubundi ikanikwa, yamara kuma ikaba yasekurwa mu rwego rwo kugira ngo ibashe gukonsomwa.

Umusaruro uturuka ku buhinzi bwa kawa ukomeje gutanga ikizere cy'uko nibura mu mwaka w' ibihumbi bibiri na mirongo itatu uzaba wihariye cumi na gatanu ku ijana by'umusaruro mbumbe w'Igihugu muri uwo mwaka.

Imiti cyane cyane ifasha amatungo gukira ndetse no kongera intungamubiri, ibi bizwi nka vitamine, bivuga yuko ryagize uruhare runini mu kuzamura umusaruro w'ibikomoka ku matungo magufi ndetse n'amaremare.

Imiti ihabwa amatungo bivugwa y'uko iyafasha kuzamura imisemburo ndetse n'intungamubiri yayo ubundi umusaruro uyakomokaho ukiyongera cyane.

Amatungo akwiye kujya ahabwa inkingo ndetse n'indi miti ya vitamine, mu rwego rwo kugira ngo akure atagwingiye kugira ngo umusaruro wayo wiyongere.

Biomix ni ubwoko bw'imiti ikoreshwa cyane cyane mu kongerera intungamubiri inkoko zitera kuko iyo ziwunyweye ku gihe zitera neza kandi nta nkomyi.

Amatungo magufi ndetse n'amaremare nk'inka, intama, ihene n'ibindi, igihe ahawe imiti ya vitamine iyongerera intungamubiri, bituma atanga umusaruro, ugereranyije n'adahabwa iyo miti.

Aborozi batandukanye bavuga yuko amatungo magufiya igihe yitaweho agahabwa intungamubiri ndetse n'ibyo kurya biyafasha gutera neza ndetse akanakura mu gihe gito cyane.

Gushyira ingufu ndetse zitari nke mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko bituma umusaruro wiyongera ndetse n'ubikora akumva ko nta gihombo kubera ko ibyo aba yashoye abigaruriza mu musaruro uba wavuyemo.

Imiti y'amavitamine arimo ibivuguto ndetse n'indi bivugwa yuko ari byo bigira uruhare mu kuzamura ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare mu Rwanda.

Abakora ubuhinzi bw'amapapayi bavuga y'uko nyuma yo gusobanukirwa akamaro k'uru rubuto bahisemo kuyahinga bivuye inyuma kugira ngo ajye abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Abahinzi batandukanye mubice byinshi bavuga yuko igihe bahawe imbuto nziza umusaruro wabo nta kabuza na wo uba ugomba kuba mwiza kuko igihe babitayeho bitabatera igihombo.

Umusaruro w'ibirayi na wo ukomeje kwiyongera cyane cyane mu bice by'Rburengerazuba bw'u rwanda kuko ibi birayi byifashishwa mu kurihira abanyeshuri ndetse no kwihaza mu biribwa kw'ababihinga.

Abahinzi cyane cyane abahinga umuceri biravugwa yuko igihe babikoze batinubira gahunda z'uko bigomba gukorwa batera imbere kandi bikabavana ahantu hamwe bikabageza ahandi.

Ubuhinzi bw'ibinyampeke cyane cyane ubw'ibigori biragaragazwa yuko bwagize uruhare rukomeye mu gutunga Abanyarwanda, aho imbuto y'ibigori yakomeje kuza ku isonga mu gutanga intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi bw'imbuto cyane cyane izi zimeze nk'amadegede, zizwi mu ndimi z'amahanga nka wotameloni, bavuga y'uko ubu buhinzi bwabo bwabavanye ahantu hamwe bubageza ahandi.

Ababyeyi bajya gutashya mu bice by'inkengero ya parike y'Akagera, bavuga yuko hashyizweho uburyo bwo kubarinda izi nyamaswa, kuko ubu ngo bo basigaye bumva batuje, nta nkomyi y'uko baribwa n'izo nyamaswa.

Ibigori igihe bihinzwe mu gihe kiza bitanga umusaruro uri hejuru cyane bitewe n'uko hatoranijwe imbuto zegerezwa abaturage kugira ngo bazihinge.

Guhinga ibigori bituma buri wese yibonamo bitewe n'uko amatungo ashobora kurya ibyatsi bituruka ku bisigazwa byabyo ubundi abantu na bo bakaba babiteka cyangwa bakabinywamo ibikoma.

Imyumbati urutoki ndetse n'ibindi nibyo bibasha guhangana n'izuba mu gihe k'impeshyi. Abaturarwanda bakaba basabwa kwita kuri ibi bintu kuko mu gihe k'impeshyi bibasha guhangana n'ingaruka z'izuba ryinshi.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto bavuga y'uko igihe bibanze ku gihingwa kimwe bituma umusaruro wirukanka kuruta kuvanga imyaka kuko kenshi na kenshi bicuranwa intungagihingwa.

Mu bishanga bitandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga abahinzi bari mu muceri, yaba abawubagara, abawutera umuti ndetse n'abawusarura, mu rwego rwo kugira ngo ugezwe aho utunganyirizwa neza.

Abantu bakora ibikorwa by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga yuko igihe bageze ku mupaka basakwa by'intangarugero bagira ngo barebe ko nta biyobyabwenge binjije mu Gihugu.

Abahinzi b'ibihaza n'ubwo batabikunda ariko hari bamwe bishimira ko bibafasha, mu kwihaza mu biribwa ndetse bimwe bakaba banabijyana ku isoko, bakabona ku mafaranga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo birimo n'imiti ituruka mu bisambu aho bikomeje gutera inkeke abayikoresha bavuga y'uko bashobora no kuhatakariza ubuzima.

Kuvugurura neza intoki ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye ni byo biri gufasha Igihugu cy'u Rwanda kwihaza mu biribwa ndetse n'abaturage ubu bakaba bavuga ko basigaye basagurana n'amasoko.

Leta y'u Rwanda ishyiramo ingufu mu gutera ishyamba, mu rwego rwo kugira ngo n'abakeneye gukora inama, bayikorere mu ishyamba, aho bakira akuka keza kayunguruye, ibyo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Abororera mu nkengero za parike y'igihugu y'Akagera, bavuga yuko ubu amatungo yabo abayeho neza, biturutse ku kuba harashyizweho uruzitiro rutangira inyamaswa ziva muri pariki.

Mu bikorwa leta y'u Rwanda irajwe inshinga na byo, harimo no gutera ibiti byinshi, cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Kigali kuko abantu bakeneye umwuka uyunguruye, uva ku mababi yabyo.

Abasura parike y'Igihugu y'Akagera bavuga yuko ibikorwa bahabonera ari byo bituma bahagaruka bitewe n'uko baba bafite ababayobora ndetse bakanababwira amabwiriza agomba gukurikizwa mu gihe baje kuhatemberera.

Ishyamba rya kimeza rigira uruhare runini mu gutanga umwuka mwiza uba indiri y'izindi nyamaswa mu kugira ngo n'abaza bazigana babone aho bazisanga, ibi bikaba bituma kubungabunga amashyamba bishyirwamo ingufu.

Ba mukerarugendo igihe batembereye mu Rwanda biba ngombwa yuko banazamuka imwe mu misozi igiye itandukanye mu rwego rwo kugira ngo bahumeke umwuka mwiza uturuka mu ishyamba ndetse banarebe ubwiza nyaburanga bw'imisozi.

Abakora ubuhinzi bw'imbuto, bakomeje kuvuga ko amatunda ya Marakuja, akomeje gutanga icyizere cy'uko uwayahinze mu buryo bwiza na we ashobora guhinduka umunyemari ukomeye.

Ubuhinzi bw'amashu buteye imbere, bivugwa yuko bushobora kwinjiza agatubutse, ku muntu wabukoze kandi abushyizeho umwete kuko ibi na byo bifasha ababikora, kubona udufaranga.

Ibihingwa birimo imyungu nabyo bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, bitewe n'uko ibi bihingwa byoza mu nda ndetse bikanasukura imyanda yose yaba iri mu mubiri.

Guhinga indabyo byakomeje gukerenswa cyane cyane mu myaka iri imbere y'ibihumbi bibiri, aho abantu bumvaga ko bitabatunga ariko ubu byaje kugaragara ko byatanga amafaranga ubu barabikora.

Mu buhinzi bw'imbuto cyane cyane izi zizwi nka pome hagomba gukazwa ingamba zo kubungabunga ndetse no kwita kuri izi mbuto kuko iyo bidakoze bityo zishobora kwangirika kandi zifite agaciro kari hejuru.

Ubuhinzi bw’imboga bukomeje gutanga icyizere cy'uko mu myaka iri, imbere buzaba bumaze gutera imbere bitewe n’uko abantu babukora kuri ubu ngubu, babukora kinyamwuga.

Kugira akarima k'igikokoni ni bimwe mu bituma urugo ruba rufite umutekano w'uko rudashobora kuba mu ikosa ryo kurya ifunguro ritujuje intungamubiri, bikaba bishishikarizwa buri wese kugira akarima k'igikoni mu rugo iwe.

Avoka ibanguriye ikomeje guca impaka ku isoko mpuzamahanga bitewe n'uko yera mu gihe gito kandi ahantu aho ari ho hose ikaba yahaba.

Guhinga bya kijyambere ni inyungu ku bahinzi kuko bahabwa uturindantoki ndetse n'imyenda yo kwambara ibyo bikabarinda mu gihe bari gutera imiti cyangwa basarura imbuto.

Uko Leta y'u Rwanda irushaho gushyira ingufu mu guteza imbere ibikorwa byo kuhira mu buryo bwa kijyambere ni nako abanyarwanda barushaho gusobanukirwa akamaro k'ibyo bintu na bo bagahitamo kuyoboka iyo nzira.

Kuhira ibihingwa yaba mu gihe k'impeshyi bituma bitanga umusaruro, igihe bikozwe kinyamwuga hifashishwa moteri zizamura amazi, kuko bituma amazi agera hose kandi bigakora neza.

Abakora ibikorwa byo kuhira bakoresheje imirasire y'izuba n'abo bavuga ko batahejwe, bitewe n'uburyo ibi biri gutanga umusaruro ndetse bigatuma nabo babasha kumva ko baguwe neza.

Biravugwa y'uko igihe abakora ubuhinzi bw'imbuto, igihe bifashishije imoteri zibazamurira amazi ziyavana kure, ibi bibafasha no guhinga mu mpeshyi kuko ari ingenzi cyane mu kuzamura umusaruro wabo.

Abaturarwanda bamaze gusobanuka bitewe n'uko bamaze kumenya agaciro ko gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kuhira imyaka, aho kugeza ubu ngubu batagikangwa n'izuba r'impeshyi ahubwo aba ari cyo gihe cyo guhinga imbuto.

Uburyo bwo kuhira imyaka, bukomeje guteza inkeke mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu, bitewe n'uko amamoteri afasha abahinzi gutwara amazi mu misozi, akomeje guhenda cyane.

Abakoresha amamoteri yuhira imyaka bavuga yuko umusaruro wayo wabazamuriye ubuzima bigatuma babasha kwiteza imbere.

Mu buryo bwo kuhira neza imbuto bivugwa y'uko hagomba gushyirwaho ingamba mu guhangana n'uko izuba ryakwangiza izo mbuto, hagashyirwaho uburyo bugezweho bwo kuzuhira.

ko igihe kigenda gitambuka, ni nako uburyo bwo kuhira imyaka yaba mu mpeshyi, cyangwa se igihe icyo aricyo cyose, bugenda butera imbere bitewe n'uko bazajya barekura amazi ubundi imyaka ikuhirwa neza.

Kuhira imbuto nk'ibigori mu buryo bwa gihanga bituma abantu babasha kugira umusaruro uri hejuru kuko imbuto yabo iba yabonye amazi ahagije.

Leta y'u Rwanda iraburira abantu bose bakomeje kwitwaza yuko batagomba gukura amaboko mu mifuka ngo bakore ngo kubera kubura ibishoro ahubwo ibakangurira kwihangira imirimo yaba iciriritse cyangwa se n'indi yoroheje.

Amashyamba akwiye kubungabungwa cyane cyane aya kimeza bitewe n'uko igihe imvura ibaye nyinshi ibinyabuzima biyarimo na byo bibaho kandi bigakomeza gukurura ba mukerarugendo.

Udusozi dutuye ahantu mu bishanga ndetse n'ahandi bigaragara ko hahanamye ni ngombwa ko abahatuye bahinga cyane kuko tugira uruhare mu gukurura imvura bityo imyaka yabo ikaba yaka neza.

Ahantu heza hatari imisozi hakwiye gushyirwaho uburyo hazajya habyazwa umusaruro, aho kugira ngo amatungo ajye aharishiriza, ahubwo hakaba hatanga izindi nyungu zitandukanye.

Abantu baturiye ibishanga, barakangurirwa kwitonda cyane cyane mu gihe cy'imvura kuko imyuzure ishobora kwibasira imyaka yabo ndetse na bo bakaba baribwa n'ingona.

Amaterasi y'indinganire yazamuye umusaruro w'ibihingwa mu Rwanda kuva mu myaka icumi ishize uyu mushinga utangiye mu Rwanda kuko ubu ngubu bisigaye byoroshye kuba ubutaka bwabika ifumbire mu gihe nibura k'imyaka ibiri.

Abakorera mu Karere ka Bugesera bavuga yuko ikiyaga gishobora gutuma ubuzima bw'abatari bake buhinduka bitewe n'uko bagendeye kuri gahunda Leta yashyizeho yo kutaroba amafi ataruzuza igihe.

Ubworozi bw’amatungo magufiya bukomeje gutera imbere, cyane cyane ubworozi bw’inkoko, kuko Abanyarwanda bamenye neza icyo ubu bworozi bukeneye kugira ngo butere imbere.

Ingurube na yo igihe yitaweho igahabwa ibyo irya ndetse ikanaba ahantu hazima ishobora gutanga umusaruro mwiza ku muntu wese wayoroye abishyizeho umuhate.

Amatungo magufi ya arimo ingurube zaba iz'umweru cyane cyane izifite amatwi maremare, bisabwa ko zibanza gukingirwa mbere y'uko zijyanwa kororwa.

Inyana igihe isasiwe, igakurirwamo ibisogororo bishobora kuyitera umwanda, ikura neza kandi ikaba iryoheye amaso mu kuyireba, igihe uri umworozi cyangwa uje uyisuye.

Amatungo magufi nk'inkwavu mu bihugu byateye imbere, ubona ko aba yororewe ahantu heza mbese hadashobora gukurura ibyago by'uko yarwara indwara zitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufi igihe bukozwe neza kandi bwitaweho mu buryo bwa kijyambere, bushobora gutuma ubukora na we yagira icyo ageraho biturutse kuri uwo mushinga.

Ibimasa bikomeje kuvugwa ko bigira imbaraga nyinshi, akaba ariyo mpamvu byubakishwa ibyuma igihe biri mu biraro, kugira ngo bitabasha kubica ngo bigende.

Inka nziza z'inyambo zibyara inyana nziza ndetse n'ibimasa aho nibura ku mezi atatu kiba gishobora kugurwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi magana abiri.

Inka z'inzungu zizwi nk'imfirizone zikomeje gutera ishema abantu bazorora, bitewe n'uko umukamo wazo uba uri hejuru cyane ugereranyije n'uw'izindi nka zisanzwe.

ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkwavu, bisaba yuko ashyirwa ahagana hejuru mu rwego rwo kwirinda inshishi cyangwa se ubundi bukonje bwa hato na hato bushobora gutuma atabaho neza.

Ubworozi bw'inkoko cyangwa se n'andi matungo magufiya, bukwiye gushyirwamo ingufu, kuko ibiyakomokaho bifasha abana gukura neza ndetse bikanabarinda igwingira ryabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi burimo ingurube cyane cyane izi za kizungu, bivugwa yuko bishobora gutanga umusaruro byikubye kabiri uw'inka mu gihe nibura cy'umwaka umwaka.

Inka z'inyambo nk'uko zimenyerewe mu muco nyarwanda ko zigira umukamo uri hejuru ndetse zikanororoka cyane ni byo byatumye hari abahitamo gukora amafamu atandukanye mu turere dutandukanye tw'Igihugu.

Ubworozi bw'amatungo yaba amagufi cyangwa amaremare, bukomeje gufata uruhare runini mu kuzamura iterambere ndetse no kurwanya igwingira ry'abana, bitewe n'uko babona ibituruka ku mukamo.

Mu isoko ry'inka riri mu Karere ka Nyagatare bivuga yuko inyambo zihagurishirizwa ku munsi ziba zirenga magana atanu, ibi bigatuma rica agahigo ko kuba ari ryo soko rya mbere ry'inka muri iyi Ntara y'Iburasirazuba.

Mu rwego rwo kuzamura inyongeramusaruro y'ibikomoka ku bigori, ni ngombwa yuko hashyirwaho ingano nyayo buri muturage agomba guhabwa kugira ngo hirindwe kwikubira kw'imbuto.

Abakora ibikorwa by'ubuhinzi, birimo iby'ibigori, bavuga yuko ibi bintu bikomeje gutanga umusaruro ukomeye kuko mbere bahingaga imbuto mbi, ariko bakaba bishimira imbuto bahawe nziza.

Imbuto y'ibigori igira uruhare runini mu gufasha abanyarwanda kubaho kuko hari ubwo bayinywamo igikoma bakayikuramo ibiryo by'amatungo ndetse bakaba banayiryamo umutsima.

Abaganga bavura amatungo na bo bashishikarizwa kugira isuku ndetse n'imyambaro ibaranga n'uturindantoki ndetse n'amataburiya azajya abafasha mu gihe bari kuvura amatungo.

Inka z'inyambo zikomeje guca agahigo, mu nka z'icyitegererezo, zikungahaye cyane cyane ku mukamo ndetse n'uburyo zororoka bukaba bushimishije cyane.

Mu gutunganya ndetse no kwita ku matungo cyane cyane nk'ingurube, hifashishwa uburyo bwo kuyambika amaherena, mu rwego rwo kumenya ubwoko ndetse n'ikiciro ayo matungo abarizwamo.

Abakora ibikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo ni ngombwa ko bakwiye kwitwararika mu gihe hagiye kuvura ayo matungo kuko hari ibyo baba bagomba kwitwaza mu kugira ngo bitaza kubakurura ibyago byo kwandura izo ndwara.

Igihe abantu bakoze ibikorwa by'ubworozi babikoze neza ndetse n'abavura ayo matungo bakaba babifitiye ubushobozi bituma Igihugu kigira umusaruro mwinshi ukomoka ku matungo.

Abaganga bavura amatungo magufi, aba bazwi nka ba veterineri, bakomeje guca agahigo ko kuba bavura indwara batashoboraga na gatoya kubera ko ubu bafite ubuhanga buhambaye, mu kuvura izo ndwara.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje guca agahigo ingwe na yo ni iya mbere mu kugira amahane igihe ishotowe uretse ko umwami wazo ngo ari intara.

Inka z'agasozi cyangwa se izi zimenyerewe nk'imbogo bivugwa yuko aho ba rushimusi bahagarikiwe kuzihiga, zikomeje kwiyongera muri parike y'igihugu y'Akagera.

Imvubu ni zimwe mu nyamaswa zizwiho kugira uruhu rukomeye cyane, bitewe n'uko igihe zikutse, zishobora kwangiza imyaka y'abaturage ndetse no kuba zayinyuzemo, ishobora kuhangirikira.

Muri pariki y'Akagera haravugwamo ibibazo by'uko inyamaswa nini zirimo intare ndetse n'imboga zikomeje kubura aho bifata amasaha arenga atanu kugira ngo ube babona iyo nyamaswa.

Igisamagwe ni kimwe mu muryango w'injangwe nini kuko gishobora gutera ibibazo bikomeye birimo kuba cyakuruma ugahita witaba Imana cyangwa se kikakwangiza mu gihe waba ugisagariye.

Inyoni z'agasozi zikomeje kubura cyane cyane muri pariki ya Nyungwe, bitewe n'uko abantu nka ba rushimusi bakomeje kujya bagabayo ibitero, ibyo bigatuma zigurukira zigahunga.

Hari ubwoko bw'inyoni bukomeje kugenda buzimira cyane cyane mu maparike agiye atandukanye kuko izo nyoni hari ubwo zigendera cyangwa se zigapfa bitewe n'uburyo ziba zitabungabunzwe neza.

Inyamaswa zitandukanye mu Kagera zirimo iziremereye ndetse zigira ibigango bikaze nk'imbogo zijya mu mugezi zikarisha utwatsi tuba duhari kuko ari byo bizifasha gukura neza ndetse zikagira itoto.

Imparage ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi zororerwa muri parike y'igihugu y'Akagera, aho abaza kuzisura bikubye inshuro zirenga eshanu muri uyu mwaka.

Inyamaswa zikomeye ndetse z'inyamahane, zirimo intare nk'umwami w'ishyamba, bivugwa yuko zikomeje kuba nke, cyane cyane muri parike y'Akagera.

Inyamaswa zikakaye zifite ubumara, zo muri parike, bivugwa yuko igihe zikumiriwe, abantu bashobora kugenda ntacyo bikanga, cyane cyane abaturiye izo pariki.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi zikomeje kubica bigacika, harimo n'imihari, impyisi n'ibindi, zikomeje gutera inkeke abaturiye parike y'igihugu y'Akagera kuko ngo zirara zimoka cyane bigatuma barara badasinziriye.

Inyamaswa z'agasozi ni ngombwa yuko hashyirwaho umupaka ukumira izo nyamaswa kwinjira mu myaka y'abaturage kuko ziyangiza ku rwego rw'indengakamere.